Umugabo wicaye mu ntebe y'umukara, imbere ye hicaye abagore babiri, bose imbere yabo hari amacupa menshi y'amazi ndetse imbere y'uwo mugabo hari mudasobwa na terefone ngendanwa.

Abantu bicaye hamwe mu cyumba kiri kuberamo inama, harimo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa, bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'umugore uhagaze imbere.

Icyumba kiri kuberamo inama hicayemo abantu batandukanye abagabo ndetse n'abagore imbere yabo bose hari uducupa tw'amazi yo kunywa bamwe muri bo bafite n'amakaye yo kwandikamo ibiri kuvugirwa muri iyo nama.

Urubyiruko rutandukanye rwicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, bose bambaye imipira y'ubururu, imbere yabo hari amacupa y'amazi bigaragara ko bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa ndetse bafite n'amakayi bari kwandika ibiri kuvugirwa muri iyo nama.

Abantu benshi cyane bicaye hamwe barakurikiye urabona ko bakeye, harimo abagabo ndetse n'abagore, ku mpande zabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse n'amaji akorwa n'uruganda rw'inyange.

Umugore ufite indangururamajwi mu ntoki ye, afite agasatsi gake, yambaye ishati y'umweru ndetse n'isaha, afite telefone ngendanwa mu ntoki ze, ari gutanga ijambo, inyuma ye hicaye abandi bantu.

Umusore uri mu nama wambaye umupira w'ubururu ufite agakapu ku rutugu imbere ye hari uducupa t twa'amazi yo kunywa arakurikiye ndetse hari na bagenzi biwe bahuje kuba bari muri iyo nama.

Abaturage bicaye hamwe, bambaye imikenyero, hari umugabo uhagaze wambaye ikote ry'umukara, ishati y'ubururu. Abandi bari imbere bari kubyina bizihiwe, ubona ko bahujwe n'ibirori runaka.

Abagore batatu bicaye ahantu hagaragara nkaho hari kubera inama, uwo hagati yambaye ishati itukura ndetse babiri bambaye imyenda ikozwe mu bitenge, imbere yabo hari amazi yo kunywa.

Abantu benshi bicaye bakurikiye, bose bicaye ku ntebe z'imituku, ndetse bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'abantu babiri bahagaze, umwe wambaye ishati y'umukara ndetse n'umugore wambaye ikote ry'ubururu.

Abantu benshi cyane bicaye hamwe mu nama barakurikiye, bamwe muri bo imbere yabo hari amacupa y'amazi yo kunywa ndetse na mudasobwa, imbere hari umugabo ufite uruhara wambaye ishati y'umukara uri gutanga igitekerezo.

Abantu batandukanye, biganjemo abagore n'abagabo, baricaye, urabona ko bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'umuntu runaka, imbere yabo hari amacupa y'amazi ndetse n'amakaye yo kwandikamo ibiri kuvugirwa muri iyo nama.

Abantu biganjemo abagore n'abagabo bicaye hamwe baratuje, imbere yabo hari amacupa y'amazi yo kunywa, urabona ko bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa, ndetse bafite n'amakaye yo kwandikamo ibiri kuvugirwa muri iyo nama.

Abantu bicaye hamwe batuje, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bafite uducupa tw'amazi imbere yabo, mudasobwa ndetse na terefone ngendanwa, hari undi uhagaze ufite igikoresho cyifashishwa mu gufata amashusho n'amajwi.

Icyumba kiri kuberamo inama cyicimo abantu bagiye batandukanye, abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse hari umugabo uri kubasobanurira, wambaye ishati y'umweru.

Abantu benshi cyane bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, harimo abagore ndetse n'abagabo, abenshi muri bo, bafite uducupa tw'amazi imbere yabo, mudasobwa ndetse n'indangururamajwi.

Abaturage benshi bicaye hamwe bigaragare ko basa nk'abavuye mu muganda, kubera ko bafite ibikoresho bigiye bitandukanye nk'ibitiyo, amajerekani n'ibindi. Imbere hari inzu bigaragara ko ari Umudugudu.

Abantu benshi biganjemo abagabo ndetse n'abagore, abenshi muri bo bambaye amataburiya y'umweru ndetse hari undi mugabo wicaye hagati wambaye umupira urimo amabara y'umuhondo n'umukara.

Abantu bicaye hamwe bigaragara ko bari mu nama, harimo abagore ndetse n'abagabo, ku mpande zabo hari utumeza tugiye turiho amazi yo kunywa ndetse bafite na telefone ngendanwa.

Abantu benshi cyane bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari amacupa y'amazi yo kunywa ndetse hakaba hari n'ameza ateguyeho ibitambaro by'umweru, urabona ko bose bakurikiye, batuje.

Abagabo batatu bicaye ndetse n'umugore wicaye, bafite imbere yabo uducupa tw'amazi yo kunywa, terefone ngendanwa, ndetse n'amakayi yo kwandikamo, hirya hari umugabo uhagaze wambaye ikote ry'umukara n'ishati yu'mweru.

Umugabo uri mu cyumba kiberamo inama, arahagaze, yambaye ishati, afite ikaramu mu ntoki ze bisa nk'aho ari gutanga ijambo, ku ruhande rwe, hari abandi bagabo bicaye bakurikiye ibyo ari kuvuga.

Abantu benshi cyane bicaye hamwe, higanjemo abagore, abagabo, bakaba bambaye imyambaro igiye itandukanye, urabona ko bisa nkaho bari mu nama ibahurije hamwe n'abayobozi babo.

Abantu benshi batandukanye, higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bose bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari amacupa y'amazi, bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'umuntu uri imbere, bose baratuje.

Umugabo wicaye wambaye ikositimu y'umukara ishati y'umweru ndetse na karuvati itukura, afite indangururamajwi mu ntoki ze ndetse ku ruhande rwe hari icupa ry'amazi na mudasobwa.

Abantu benshi cyane bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, higanjemo abagabo ndetse n'abagore, abenshi muri bo bafite mudasobwa imbere yabo, ndetse ku ruhande hari naho bagiye bazicomeka.

Abagabo bakoraniye hamwe bigaragara ko ari icyumba kiberamo inama, bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo bose hari amacupa y'amazi yo kunywa ndetse bafite n'indangururamajwi, bamwe muri bo bafite mudasobwa.

Abantu benshi cyane bicaye ahabereye inama, harimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'umuntu uri imbere; bose bafite uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse n'aho kwandika.

Abantu benshi cyane, bicaye bakurikiye, bicaye munsi y'itente rinini ry'umweru, bigaragara ko bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa, urabona ko bose banejejwe n'ibiri kuvugirwaho.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bose bambaye amakarita aranga ibyo bakora mu majosi ndetse bahagaze hamwe kugira ngo bafatire ifoto hamwe.

Abantu batandukanye biganjemo abahungu ndetse n'abakobwa, bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, bakurikiye umukobwa wambaye umupira w'ubururu, ufite indangururamajwi mu ntoki ze, imbere ye hari agacupa k'amazi.

Abantu batandukanye bicaye hamwe, baratuje, barakurikiye, imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa, amakaye yo kwandikamo ibiri kuvugirwa muri iyo nama. Inyuma yabo hari n'insakazamashusho.

Urubyiruko rwinshi rwicaye hamwe, rwiganjemo abahungu ndetse n'abakobwa, bakaba bambaye imipira iri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi. Bakurikiye iribi kuvugirwa aho hantu.

Abagabo batatu ndetse n'abagore babiri bicaye, bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa, imbere yabo hari uducupa tw'amazi, ndetse n'amakayi yo kwandikamo ibyo bari kubwirwa.

Abagabo ndetse n'abagore bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, baratuje, bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa, imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse n'utwuma tw'indangururamajwi.

Abagabo ndetse n'abagore bicaye ahantu hamwe batuje bigaragare ko bari mu nama bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa imbere yabo hari amacupa y'amazi ndetse n'indangururamajwi.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, barakurikiye, imbere yabo hari uducupa tw'amazi, imbere hari abagabo babiri bicaye, umwe wambaye ikote ndetse yambaye ishati y'umweru, afite indangururamajwi mu ntoki ze.

Abantu bicaye hamwe ndetse bicaye munsi y'itente rinini ry'umweru, bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'umugore ubahagaze imbere, ufashe indangururamajwi mu ntoki ze, wambaye ipantaro y'umukara.

Abantu benshi bicaye mu nama batuje hakubiyemo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hari uducupa t tw'amazi yo kunywa bakurikiye umugore uri imbere wambaye umwambaro w'umuhondo ufite indangururamajwi mu ntoki ze.

Abantu bane bicaye, harimo abagore babiri, abagabo babiri, bakurikiye umugore uri gutanga imbwirwaruhame, uri imbere, ufashe indangururamajwi mu ntoki ye, inyuma ye hari ikibaho kinini cy'umweru.

Abantu benshi bicaye biganjemo ab'igitsina gore, imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse n'ameza arambuyeho ibitambaro by'umweru. Bakurikiye imbwirwaruhame, iri gutangwa n'umugore uhagaze imbere, ufite indangururamajwi mu ntoki ze.

Abantu benshi bahagaze hamwe biganjemo urubyiruko, abahungu ndetse n'abakobwa, bakaba bari gufata ifoto, barakey bose bari kumwenyura ku maso, ubona ko nta kibazo bafite.

Abantu benshi cyane bicaye hamwe ku ntebe z'imituku higanjemo abagore n'abagabo, bakurikiye inama, imbere yabo hari uducupa tw,amazi yo kunywa ndetse bamwe muri bo bafite mudasobwa n'imbere yabo.

Abantu benshi bicaye mu nama bateraniye hamwe, barakurikiye ndetse imbere yabo hagiye hari uducupa tw'amazi yo kunywa, hirya hari icyuma gishinzwe gufata amajwi n'amashusho.

Abantu benshi bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama, higanjemo abagabo ndetse n'abagore. Baratuje, barakurikiye, imbwirwaruhame iri gutangwa n'umugabo uri imbere, wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru.

Abantu benshi bicaye hamwe, biganjemo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bicaye ahantu hatwikirijwe n'ihema rinini ry'umweru, bicaye mu ntebe z'umukara, bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangirwa aho hantu.

Abantu benshi bicaye bakoraniye mu nama, barakurikiye urabona ko batuje, imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa, ndetse n'amakayi yo kwandikamo ibiri kuvugirwa muri iyo nama.

Abantu benshi bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, harimo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo bagiye bafite uducupa tw'amazi yo kunywa, abenshi muri bo bafite n'indangururamajwi ziri imbere yabo.

Abantu benshi cyane biganjemo abagore ndetse n'abagabo barahagaze, bose bafite imbere yabo uducupa tw'amazi ndetse hari n'ameza ateguyeho ibitambaro by'umuhondo, bari kubyina urabona ko bishimye.

Abantu batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo, bicaye mu nama baratuje, imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse bakaba bari gukurikira bitonze ibivugirwa muri iyo nama.

Abantu batandukanye bicaye mu nama baratuje, imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'umugore ubari imbere wambaye ikote ry'umukara.

Abantu biganjemo abagore n'abagabo, bicaye hamwe ku ntebe z'imikara ndetse imbere yabo bose hari uducupa tw'amazi yo kunywa, bafite mudasobwa imbere yabo ndetse n'icyuma kifashishwa mu kumurika amashusho ku rukuta.

Abantu bicaye hamwe mu cyumba kiri kuberamo inama; harimo abagabo ndetse n'abagore; imbere yabo bose bafite uducupa tw'amazi yo kunywa; bamwe muri bo bafite mudasobwa ndetse n'amakayi yo kwandikamo ibiri kuvugirwa aho hantu.

Umugabo uhagaze wambaye amarinete y'umukara, ingofero y'ubururu, ndetse n'umupira w'ubururu afashe indangururamajwi mu ntoki ze ndetse na terefone ye ngendanwa, ari gutanga ijambo ku bari aho.

Abanyeshuri bicaye hamwe, bambaye imipira y'ubururu, n'amapantaro ya kaki, baratuje, bakurikiye umwarimu uri imbere, uri kugira icyo abagezaho ndetse urabona ko biga mu mwaka umwe.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama, harimo abagabo ndetse n'abagore; bambaye neza, imbere yabo bafite uducupa tw'amazi yo kunywa, bamwe bafite mudasobwa imbere yabo ndetse bari kwandika ibiri kuvugirwa mu nama.

Abantu bicaye mu nama, bambaye neza cyane, bicaye ku ntebe zitukura, imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa kandi higanjemo abahungu n'abakobwa, imbere yabo hari insakazamashusho.

Abantu bicaye mu nama, harimo abagabo ndetse n'abagore. Bicaye ku ntebe zitukura. Ndetse imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa, amakayi yo kwandikamo ibiri kuvugirwa muri iyo nama.

Abagabo ndetse n'abagore bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, abenshi muri bo bambaye amakoti y'umukara n'amashati y'umweru, imbere yabo hari amazi yo kunywa ndetse n'amakaye.

Abantu bicaye hamwe bakoze uruziga, bigaragare ko bari mu nama. Baratuje bose bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'umuntu uri imbere. Bafite terefone ngendanwa imbere yabo.

Abagabo babiri bahagaze, umwe ushinzwe umutekano n'undi wundi wambaye ikoti ry'umukara n'umupira w'umweru, mo hagati hahagaze umumama wambaye umupira w'umweru ufashe telefone ye mu ntoki.

Imodoka zitandukanye zifite amabara atandukanye, hari iy'ubururu, iy'umweru ndetse n'iy'umukara, hakaba hari n'ipikipiki munsi yayo hari amagambo amenyesha ko serivisi zimutse.

Uburyo urubuga rw'irembo rwashyizeho, aho ushobora kwiyandikisha gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga. Ibyo usabwa, usabwa kuba ufite irangamuntu y'igihugu cy'u Rwanda. nanone ugomba kuba ufite uruhushya rwo gutwara rwa burundu rugifite agaciro.

Abantu bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, harimo abagabo, ndetse n'abagore, bafite mudasobwa imbere yabo, ndetse na telefone ngendanwa, bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'umugore uhagaze imbere.

Umusore uhagaze imbere y'ishusho y'igiterefone kinini, afite terefone mu ntoki, yambaye umupira w'umweru ndetse hari n'amarinete, umukandara w'umukara; ari kumwenyura, afashe ikote ku rutugu.

Urubuga rw'irembo rwashyizeho uburyo bwiza bwitwa byikorere, aho ushobora kwisabira icyangombwa kikwemerera gukora, uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ahatangirwa serivisi zo gukoresha murandasi, hakaba hicimo abantu bakeya baje gukoresha mudasobwa ndetse hejuru ku ruhande hari imashini ifasha gukonjesha cyangwa gushyuhisha ahantu.

Ibinyabiziga bitandukanye biri mu muhanda wa kaburimbo bikaba bigaragara nk'aho imvura yaguye, hepfo yaho hari ipikipiki iparitse kandi iparitse imbere y'inyubako z'ubucuruzi.

Umukobwa wisukishije, wambaye amaherena ndetse n'agasengeri k'umweru. Afashe terefone ye ngendanwa mu ntoki, urabona ko yatangaye cyane. Imbere ye hari mudasobwa.

Umunara muremure, ukozwe mu byuma, urimo amabara y'umutuku ndetse n'umweru, ukaba uzengurutswe n'ibindi byuma bigufiya biwurinda kuba bawegera bakawuvogera, ukaba udufasha mu itumanaho.

Abantu benshi cyane bicaye ahantu hagiye hari mudasobwa harimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga bihugura ubumenyi ndetse bareba n'ibindi.

Umusoro ku mutungo utimukanwa umenyekanishwa ryari? umusoro ku mutungo utimukanwa umenyekanishwa ukanishyurwa bitarenze tariki ya mirongo itatu na rimwe, ukuboza, za buri mwaka.

Urupapuro rugaragaza amasaha mashya y'akazi. Amasaha y'akazi agomba kuba ari umunani. Ni ukuvuga guhera saa mbiri kugeza saa kumi n'imwe. Nanone abakoresha bagomba gukora ku buryo serivisi z'ingenzi ziboneka umunsi wose.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe bose bafite mudasobwa imbere yabo bambaye ekuteri kandi abenshi muri bo bambaye n'ingofero, ubona ko basa nkaho bari mu kizami runaka cyangwa amahugurwa atandukanye.

Umugabo wambaye ingofero y'ubururu amarinete ndetse n'umupira w'umweru, afashe mudasobwa mu ntoki ze akaba ari kwamamariza ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, aho ari kubasaba kwishyura vuba imisoro.

Umunara muremure ugizwe n'amabara y'umutuku ndetse n'umweru, akaba ari uw'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda cya MTN, akaba ari umunara ufasha abaturage kubasha kuvugana biboroheye.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo, ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umukara, imbere ye hari igishusho kinini kimeze nka terefone ngendanwa ndetse inyuma ye hari imodoka iri mu ibara ry'umweru.

Umugabo uhagaze, wambaye umupira w'umuhondo, ahagaze imbere y'abagabo babiri bicaye, bari kumaha serivisi zigiye zitandukanye ndetse bamusobanura nuko bikora.

Amabwiriza agenga abatanga serivisi za mobayiro mani, mu rwego rwo kurwanya korona virusi, itegeko rya mbere agomba kuba yambaye uturindantoki n'agapfukamunwa, itegeko rya kabiri agomba gusiga byibuze metero imwe hagati ye n'umukiriya.

Umukozi ukorera ikigo gishinzwe gukurikirana ibijyanye n'amashanyarazi y'abaturage, yuriye urwego, ari ku ifoto hejuru ari gutunganya ibyangiritse ku ipoto ry'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abantu bari mu mirimo yabo. Hirya hari inzu z'ubucuruzi ndetse hari n'ahashinze akamezaza gakoreramo umukozi wa Emutiyeni.

Ipoto rirerire riri kunyurwaho n'insinga zitandukanye z'amashanyarazi zigenda zikwirakwiza umuriro mu baturage, munsi yaryo hari umutaka w'umuhondo n'akameza k'umuhondo, gakorerwamo n'umukozi ukorera isosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya Emutiyeni.

Inyubako y'ibitaro bya Kanombe bya gisirikare, imbere yayo hari imodoka itwara abantu barembye cyane nk'abahuye n'impanuka cyangwa abagiye kubyara. Hahagaze abantu bagiye batandukanye b'abaganga.

Ahatangirwa serivisi zigiye zitandukanye bisa nk'aho ari kwa muganga. Hari inyubako nyinshi zigiye zitandukanye, intebe zo kwicaraho mu gihe umuntu arembye ndetse hari umugabo uhagaze bari guha serivisi.

Imodoka iparitse y'umweru, ifite utubara tw'umutuku turiho, iyi ikaba yitwa imbangukiragutabara, ifasha aho rukomeye nko mu gihe habaye impanuka, mu bagore bagiye kubyara cyangwa abantu barembye cyane.

Abagabo babiri bicaye, umwe ni umwirabura undi ntabwo ari umwirabura, ari kumwereka ibintu bigiye bitandukanye, ku ruhande munsi hari akantu bashyiramo imyanda ndetse inyuma yabo hari n'aho bakarabira.

Abantu bicaye hamwe ahari kubera urubanza, hari abagabo bambaye udupfukamunwa ndetse n'abandi bahagaze imbere bisa nkaho bari kuburana, umwe ari gushinja undi akamuburanira.

Umugore wambaye ingofero irimo amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, akaba amanitse akaboko k'iburyo aho akandi gafashe ku ibendera. Imbere ye hari indangururamajwi ari kurahira.

Abantu benshi bicaye hamwe, bambaye amakanzu agiye atandukanye, ay'umutuku ndetse n'ay'umukara, imbere hari umukobwa wambaye amarinete y'umukara, biragaragara ko ari abacamanza cyangwa abavoka.

Ikirangantego cyanditseho ubutabera bwunga. Kikaba kiriho abantu benshi cyane, abahagaze ndetse n'abandi bari munsi y'igiti. Munsi handitse inkiko gacaca.

Abantu batatu bicaye, bambaye udupfukamunwa dufite amabara atandukanye umweru, umukara, n'ubururu, hagati hicaye uregwa, ku ruhande hakaba hicaye undi umuburanira.

Ahakoraniye abantu benshi bicaye bazwi nk'abagororwa. Inyuma yabo hari n'abaturage benshi bahari baje kubareba, ndetse hari n'ibiti. Aba ngaba bakaba baje mu rukiko.

Abantu benshi bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, harimo abagabo ndetse n'abagore. Ku meza hari umugabo wambaye ikote ry'umukara imbere ye hateretse icupa ry'amazi ndetse na mudasobwa.

Umugabo wirabura wambaye ikanzu y'umutuku irimo ibara ry'umukara ndetse n'umweru, bikaba bigaragara ko ari umucamanza akaba aburanira abantu cyangwa akabashinja.

Abaturage bicaye hamwe bagiye batatanye, harimo abagore ndetse n'abagabo, bicaye ahantu mu ishyamba hari ibiti byinshi, bigaragare ko bari mu nama bungurana ibitekerezo.

Igipangu kinini cyane, hejuru handitse amagambo avuga ngo gereza ya Nyarugenge. Munsi yacyo hakaba hari abashinzwe umutekano ndetse n'abagorororwa. Aha ngaha bakaba bahajyana abantu bakoze amakosa bakagororwa.

Abagabo bicaye mu cyumba gikorerwamo inama ndetse n'umugore wambaye ikote ry'umukara n'umupira w'umweru, ku ruhande hari insakazamashusho imanitse ndetse n'undi muntu wicaye imbere y'ameza.

Igipangu kinini hejuru gifite icyapa cyerekana ko aho hantu ari igororero rya Musanze, bakaba bahajyana abantu bakoze amakosa kugira ngo bahanwe, bazagaruke bameze neza.

Abantu benshi bahagaze hamwe, hari abambaye amakote abandi bambaye amakanzu y'umutuku, higanjemo abagore ndetse n'abagabo kandi hagati harimo Perezida w'Igihugu cyacu cy'u Rwanda witwa Paul Kagame.

Abantu benshi bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama cyangwa ibindi runaka, bakaba bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umutuku, ingofero z'umukara, zirimo uturongo tw'umuhondo.

Igipangu kinini gisize amabara y'umweru ndetse n'umukara, kikaba gifite icyapa kinini kigaragaza ko ari gereza ya Muhanga kuva igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu; hakaba ari mu igororero rusange.

Icyumba kiberamo urukiko, hari abagabo babiri bahagaze imbere, bambaye imyambaro yiganjemo umukara ndetse n'abandi bicaye bari kuburanishwa ku byaha bitandukanye bagiye bakora.

Icyuma cy'umutuku gifite itiyo y'umukara, kikaba cyifashishwa mu kuzimya inkongi z'umuriro zoroheje nko mu nzu cyangwa mu biro, ahabereye inkongi, mu gihe bategereje ko ababishinzwe bahagera.

Abanyeshuri benshi bahagaze hamwe, ndetse bari kumwe n'abayobozi bo mu nzego zigiye zitandukanye, imbere yabo hari ibyuma byifashishwa mu kuzimya umuriro, bakaba bari gusobanurirwa uko babikoresha.

Imodoka y'umukara inyuma yayo hari ibindi binyabiziga bitandukanye. Imbere y'iyo modoka hahagaze umugabo wirabura wambaye impuzankano ya polisi y'u Rwanda. Afashe icyuma cy'ikoranabuhanga mu ntoki ze.

Icyuma cy'umutuku gifite igihombo cy'umukara, iki kikaba cyifashishwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro idakomeye ukaba wayizimiriza mu gihe utegereze ko ababishinzwe bahagera.

Abayobozi b'ibinyabiziga bizwi nk'ipikipiki barahagaze ndetse bamwe muri bo bafite abagenzi, imbere yabo hari ushinzwe umutekano wo mu muhanda ari kubasobanurira ibyo bakwiriye kwirinda no kubahiriza.

Ahari ibinyabiziga bigiye bitandukanye ibizwi nk'ibitwara abantu mu buryo bwa rusange bikunze kwitwa shira umuteto ndetse hari n'ipikipiki mu muhanda hahagaze umupolisi uri guha abantu amategeko n'amabwiriza bagenderaho mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Harimo amapikipiki ahazamuka ndetse n'amanuka n'imodoka y'abashinzwe umutekano bazwi nk'abapolisi.

Ibyuma bibiri biri mu ibara ritukura, bifite ibihombo by'umukara, bikaba byifashishwa mu kuzimya inkongi zoroheje z'umuriro, mu gihe utegereje ko ababishinzwe bahagera.

Ibyuma by'umutuku bifite ibihombo by'umukara, bikaba byifashishwa mu kuzimya umuriro uciriritse wabereye mu nyubako aho ushobora kukicyifashisha ukazimya mu gihe hataraza ababishinzwe babizobereyemo.

Icyuma kiri mu ibara ry'umutuku, gifite igihombo cy'ibara ry'umukara, kikaba cyifashishwa mu kuzimya inkongi z'imiriro, gishyirwa mu ma ofisi, amazu y'ubucuruzi n'ahandi.

Ikinyabiziga cy'umukara, inyuma yacyo hahagaze ibindi binyabiziga, byinshi bigiye bitandukanye, birimo amapikipiki ndetse n'imodoka, imbere yacyo hahagaze umugabo wirabura, wambaye impuzankano ya polisi.

Umuhanda urimo imodoka, ndetse n'ushinzwe umutekano wo mu muhanda uri ku ipikipiki, akaba yabahagaritse, hari ibyo baba batujuje agiye kubasobanuza neza, abone gukomeza.

Ibyuma biri mu mabara atukura, bifite ibihombo by'umukara, bikaba byifashishwa mu kuzimya inkongi z'umuriro zoroheje, bishyirwa mu mazu y'ubucuruzi, amashuri cyangwa amavuriro.

Abagabo babiri bahagaze bambaye impuzankano za polisi y'u Rwanda, imbere yabo hari moto bifashisha mu kurinda umutekano, ku ruhande hari amazu y'ubucuruzi maremare.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibyerekezo bibiri bitandukanye, hirya ku ruhande hateye ibiti byiza cyane ndetse n'ubusitani, hakaba hari umupolisi ndetse n'undi muntu bari kumwe, agenda amwereka amategeko n'amabwiriza.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye, ibinyabiziga bigiye bitandukanye biri kujya mu mirimo yabyo ndetse hari n'ushinzwe umutekano wo mu muhanda abareberera.

Abashinzwe umutekano mu Rwanda bazwi nk'abapolisi bahagaze ku murongo. Bose bambaye impuzankano zometseho ibendera ry'u Rwanda ku rutugu. bafite n'imbunda mu ntoki.

Abantu bicaye hamwe bari mu nama. Hari umugabo ndetse n'umugore umugabo yambaye ikote naho umugore arakenyeye. Imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse n'amatara n'indangururamajwi.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, harimo abagore, abagabo ndetse n'abasore, bakaba bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'umugabo uhagaze imbere, wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, harimo abambaye imipira y'umweru ndetse n'itukura, bakaba bari kwamamaza ishyaka rya FPR, bakaba bicaye munsi y'amatente y'umweru, agiye ariho uturongo tw'umutuku n'ubururu n'umweru.

Umugore ufite imisatsi myinshi y'umukara, yambaye amarinete ndetse n'ikoti, mo imbere harimo agasengeri k'umweru. Imbere ye hari icupa ry'amazi yo kunywa, indangururamajwi ndetse inyuma ye, hari ibendera.

Abantu benshi bahagaze hamwe harimo: abagabo, abagore bahagaze hamwe bari gufata ifoto bambaye neza barakeye, harimo umugabo wambaye ikote ry'ubururu, ishati y'umweru na karuvati y'umukara.

Abantu babiri barimo umugabo ndetse n'umugore bafashe ishusho nini mu ntoki zabo, bari kuyerekana, umugore yambaye ikanzu y'umukara, amarinette naho umugabo yambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru.

Umugabo wicaye ku ntebe y'umukara yambaye ikoti ry'ubururu, ishati y'umweru ndetse na karuvate y'umukara, imbere ye hari indangururamajwi ndetse ku ruhande rwe hari undi muntu ufite mudasobwa.

Ikiganza gifite marikeri mu ntoki, ndetse kikaba kiri kwandika ku rupapuro, ruriho imibare igiye itandukanye, n'izina Paul Kagame, bakaba bari kubara amajwi yagiye agira mu matora.

Abantu benshi bari ku murongo batandukanye, harimo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko, bari ku murongo, bari kwinjira mu cyumba, kiri kuberamo amatora, aho buri wese ari kwinjira, agatora umukandida yifuza.

Abantu benshi bicaye ndetse higanjemo abagore n'abagabo, bose bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa, mudasobwa ndetse n'indangururamajwi zibafasha kumvikanisha amajwi yabo.

Abantu benshi cyane bahagaze hamwe ndetse imbere yabo hari abandi batandatu bicaye. Bamwe muri bo bambaye impuzankano z'abashinzwe umutekano. Abandi inyuma bafite impapuro mu ntoki.

Abantu benshi b'urujya n'uruza, bari kwamamaza umukandida wabo mu ishyaka rya girini pati, urabona ko bamwishimiye aramutse atowe byaba ari byiza cyane kuri bo.

Abantu benshi cyane, baje gushyigikira umukandida wabo uri kwiyamamaza, abenshi muri bo bambaye utugofero tw'umweru, dukozwe mu bipapuro ndetse n'imipira y'umweru.

Abantu bicaye hamwe hari kubera inama, harimo abagore ndetse n'abagabo ndetse hakaba hari umugabo wambaye ikote ry'ubururu, ishati y'umweru, yamanitse akaboko bigaragaza ko hari icyo ashaka kuvuga.

Abantu benshi cyane bahagaze ni abaturage, biganjemo abagabo, abagore, ndetse n'abana, bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'umugabo uhagaze imbere, wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru afite indangururamajwi mu ntoki ze.

Abagabo ndetse n'abagore abagabo bambaye amakote na ho abagore barakenyeye, bose bafatishije akaboko k'ibumoso ku mabendera ndetse ak'iburyo bakazamuye bari kurahira.

Abantu bicaye hamwe ku ntebe z'imikara, bambaye neza ndetse nyuma yabo hari amabendera abiri y'ibihugu bigiye bitandukanye. Imbere yabo buri wese afite agacupa k'amazi yo kunywa ndetse n'indangururamajwi.

Abagabo babiri bari kuramukanya, harimo uwambaye ikote ry'ubururu ndetse n'ishati y'umweru, uri guseka n'undi wambaye ishati y'umweru, akaba ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda witwa Paul Kagame.

Umumama ufite imisatsi myinshi y'umukara, yambaye ishati y'umweru ndetse n'igitenge, ari kumwenyura; yishimiye ubuyobozi bwiza dufite, ndetse urabona ko nta kibazo na kimwe afite.

Umugabo wambaye ingofero y'umweru, amarinete ndetse n'ishati y'umweru, imbere ye hari abanyamakuru bagiye batandukanye bakorera ibinyamakuru bizwi nka tiviteni cyangwa furashi tivi.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, bicaye mu cyumba cy'inama, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bose imbere yabo bagiye bafite uducupa tw'amazi, indangururamajwi ndetse na mudasobwa.

Abantu batatu bahagaze harimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe. Umugore arakenyeye akaba ari umugabo uri hagati wambaye ikote ishati ry'umweru ndetse ari kuvuga ijambo akaba ari perezida w'Igihugu cy'u Rwanda.

Abagabo ndetse n'abagore, imbere hicaye batatu, naho inyuma hahagaze abantu barindwi, bari kwifotoza urabona ko bakeyeye bose, inyuma yabo hari amashusho meza cyane y'imitako.

Ikirango gifite amabara atandukanye, umutuku, umuhondo n'icyatsi, kikaba cyanditseho amagambo avuga ngo Repubulika Rwandaise, kiriho inuma ndetse n'ibindi birango bitandukanye bikiranga.

Umugabo wicaye ku ntebe y'umukara, afite uruhara ndetse yambaye ikote n'ishati na karuvati, imbereye hari agacupa k'amazi n'indangururamajwi zimufasha kumvikanisha ijwi rye.

Umugabo ubyibushye wirabura ufite umusatsi mwinshi, yambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru ndetse na karuvati, inyuma ye hari amabendera agiye atandukanye, uyu nguyu akaba yarayoboye igihugu cy'u Rwanda.

Abagabo ndetse n'abagore bazamuye akaboko k'iburyo, bafatishije ku mabendera akaboko k'ibumoso, amabendera afite amabara ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, bari kurahira.

Abagabo benshi bahagaze ndetse n'abagore, bambaye amakote n'amakaruvati n'amashati y'umweru, naho abagore barakenyeye, inyuma yabo hari amabendera abiri atandukanye.

Ikirangantego cy'idarapo kiri mu mabara agiye atandukanye nk'ubururu, umweru ndetse n'icyatsi. Hakaba hari n'amagambo ari mu ibara ry'ubururu, yanditse ngo PSD.

Abantu benshi cyane bicaye mu nama, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hagiye hari uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse bamwe muri bo bafite n'indangururamajwi imbere yabo, zibafasha kumvikanisha ijwi.

Abantu benshi cyane bakoraniye hamwe, harimo abagore, abana, abasore ndetse n'abagabo. Bakaba bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'abagabo bari imbere.

Icyapa kimanitse, cyanditseho amagambo twitabire amatora, duhitemo neza, munsi yacyo hari abantu batandukanye, bigaragara ko bari kugana ahatorerwa, bagiye gutora umukandida bifuza.

Umugore n'umugabo bicaye ku ntebe z'umukara, umugabo yambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru n'amarinete, imbere ye hateretse mudasobwa n'agacupa k'amazi yo kunywa ndetse n'indangururamajwi.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, amapikipiki abiri, imwe ihetse umugenzi, indi ntawe ihetse, hepfo hari kunyura ikamyo y'umweru itwara imizigo.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kunyurwamo n'ikinyabiziga kinini, kiri mu ibara ry'umutuku, kizwi ku izina rya hoho, kikaba cyifashishwa mu gutwara umucanga, amabuye ndetse n'ibindi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'ikinyabiziga kinini kiri mu ibara ry'umweru kikaba cyifashishwa mu gutwara imizigo igiye itandukanye, urugero nko kwimura abantu gutwara ibiribwa ndetse n'ibindi.

Ikamyo y'umweru izwi ku izina rya Dayihatsu. Ifite igishitingi cy'ubururu gitwikiriye imizigo, ku ruhande hari abagabo bahagaze ndetse mu muhanda rwagati, harimo igare riri kugenda.

Umuhanda nyabagendwa, uri mu byerekezo bitandukanye, harimo ibinyabiziga bitandukanye, bizwi nk'amapikipiki ndetse n'indi pikipiki y'ibara ry'ubururu, itwara imizigo itaremereye cyane.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, ikitwa ikamyo ndetse n'ipikipiki, ku ruhande hakaba hari umumama ucuruza ibisheke, uri guha umukiriya.

Umuhanda wa kaburimbo. Uparitsemo imodoka ebyiri, zikaba zizwi nk'imodoka zitwara abantu mu buryo bwihariye. Aho umuntu akeneye kwihuta ayifata ikamujyana aho ashaka hose ku giciro bemeranyijweho.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye biparitse, hakaba hari akamodoka gatoya gatwaye imizigo, gatwikirije shitingi y'umweru, imbere yayo hari n'abandi bantu bari kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'ikinyabiziga cy'amapine atatu kizwi ku izina rya rifani, hakaba hariho umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'ikoboyi, aka kanyabiziga kakaba gatwara imizigo itaremereye cyane.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo ipikipiki, hariho n'umugenzi, iyi akaba ari moto itwara abantu, kandi ikoresha amashanyarazi, ikaba igenda itavuga.

Umuhanda wa kaburimbo, ukoreshwa n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hari gucamo ikamyo itwara imizigo, ifite ibara ry'umweru, ikaba itwara imizigo ikubiyemo nk'amatafari, umucanga ndetse n'ibindi.

Umuhanda nyabagendwa uri mu byerekezo bitandukanye uzamuka ndetse n'umanuka, harimo ikamyo nini cyane yifashishwa mu kuvanga umucanga ndetse na sima bigakoreshwa mu bwubatsi.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bitandukanye, nk'amapikipiki, amagare urujya n'uruza rw'abantu ndetse ku mpande hagiye haparitse imodoka nk'iyitwa Toyota iri mu mabara y'umweru.

Umuhanda nyabagendwa uri mu byerekezo bitandukanye, hagati harimo ibiti ndetse mu muhanda harimo umumotari utwaye umugenzi, hakaba hari n'amapoto manini afite amatara amurikira ibinyabiziga iyo bwije.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'igare rihetse amakaziye arimo ibyo kunywa ndetse ku mpande hari abantu bari gutambuka, umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse hirya hari umukobwa uri kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibyerekezo bibiri bitandukanye urikunyurwamo n'ibikamyo bibiri. Kimwe cy'umutuku kizwi nka hoho cyifashishwa mu kwikorera imicanga, amabuye, ndetse n'ibindi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka nini y'umweru ifite ibirahure by'umukara itwara abantu mu buryo bwa rusange imenyerewe nka shira umuteto.

Imodoka iparitse mu muhanda wa kaburimbo, ikaba iri mu ibara ry'umweru, ifite akarongo hasi kari mu ibara ry'umuhondo, ikaba itwara abantu mu buryo bwihariye ikabagezaho bagiye amahoro.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'amagare, amavatiri ndetse hakaba harimo n'imodoka nini, ihetse ikintu kinini cy'umweru ndetse ibizuru byayo bikaba bisa umuhondo.

Ahategerwa imodoka mu buryo bwa rusange hazwi nko muri gare, harimo abantu bagiye batandukanye ndetse n'ibinyabiziga, tukaba tuhabona imodoka nini cyane itwara abantu ndetse n'iyindi ntoya yanditseho jugumira.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru icagaguye, haparitse ibinyabiziga bizwi nk'amapikipiki ndetse ku ruhande hari ahandi haparitse imodoka zifite amabara atandukanye, harimo iz'umutuku, umukara ndetse n'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru, hejuru gitwikiriwe na shitingi y'ubururu, kikaba cyifashishwa mu gutwara imizigo igiye itandukanye nk'ibyo kurya.

Umuhanda urimo imodoka zigirwaho gutwara ibinyabiziga, hakaba hari utuntu duteretse bagenda bakatakatamo kugira bigaragare niba koko bamenye gutwara ibinyabiziga.

Ibinyabiziga bibiri byegeranye, ibi bikaba bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange bimenyerewe ku izina rya shirumuteto, bikaba bikorera ingendo hano mu Mujyi wa Kigali.

Umuhanda nyabagendwa, uri mu byerekezo bitandukanye, harimo ipikipiki itwaye umugenzi ndetse n'imodoka nini itwara abantu mu buryo bwa rusange, izwi nka twegerane, kugahanda k'abanyamaguru, harimo abagabo batatu.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'imodoka nini iri mumabara yiganje y'ubururu ndetse n'umweru. ikaba Itwara abantu muburyo bwa rusange imenyerewe nka yotong ku ruhande hari inyubako z'ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo uparitsemo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hari imodoka izwi nka toyota y'umweru ndetse n'indi iyiri iririmbere izwi nka fuso iri mu ibara ry'ubururu zombi zikaba zitwara imizigo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bibiri, igare ndetse n'indi modoka nini iri mu ibara ry'icyatsi igiye itwara imizigo itandukanye nk'amabuye, umucanga ndetse n'ibindi.

Abantu benshi bahagaze hamwe, bambaye imyenda igiye ifite amabara atandukanye, baparitse ibinyabiziga byabo mu muhanda bigaragare ko ari mu masaha ya nijoro, aho bategereje abantu batwara, cyangwa abo batwaza imizigo.

Umuhanda wa kaburimbo uparitsemo imodoka ntoya hakaba harimo umuntu wicaye kuri televiziyo akaba ari imodoka yifashishwa umuntu ashaka kwiga gutwara imodoka aho uza bakayiguha ugatwara.

Umuhanda uri mu byerekezo bibiri bitandukanye, mu cyerekezo kizamuka, hari kunyuramo imodoka y'umweru itwara abantu mu buryo bwa rusange, ku ruhande hari kunyura ipikipiki iriho umuyobozi w'ikinyabiziga.

Umuhanda wa kaburimbo ujya mu byerekezo bitandukanye, harimo ikinyabiziga cy'umweru kimenyerewe nka dayihasu cyikorera imizigo, iki ngiki kikaba cyikoreye amakara, aho kigenda kiyageza ku bantu batandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hari gucamo imodoka ndende itwara imizigo ndetse n'amagare abiri ahetse abagenzi, ku ruhande hari ibiti byiza cyane.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'ikimodoka kinini kiri mu ibara ry'umutuku cyifashishwa mu gutwara imizigo iremereye nk'umucanga, amabuye ndetse n'ibindi bitandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo, biragaragara ko bwije, hakijwe amatara yo mu muhanda ndetse harimo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'amapikipiki n'amamodoka, nabyo byakije amatara, hari n'abanyamaguru bari kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kunyurwamo n'ikinyabiziga cy'umuhondo, kizwi nka fuso, kikaba gihetse umuzigo ndetse gitwikirijwe na shitingi y'umweru, kifashishwa mu gutwara amabuye, umucanga n'ibindi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'ikinyabiziga kizwi ku izina ry'ipikipiki, hakaba hariho umugabo wambaye ijire y'umuhondo ndetse n'ubururu, yambaye n'ingofero y'umutuku irinda abatwara moto kuba bagerwaho n'ibibazo.

Imodoka zitwara abantu muburyo bwa rusange zizwi nka Twegerane, imbere yazo hahagaze abagabo babiri, umwe wambaye umupira w'umuhondo n'ikabutura y'umukara, undi uhetse agakapu k'icyatsi mu mugongo.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye biri kugenda ndetse n'ibiparitse, hari ipikipiki iri imbere, hari n'umugabo uyihagaze ku ruhande wambaye ikote ry'ubururu ugiye kuyitega.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ifite ibara ry'umweru hino ku ruhande hari ruhurura inyurwamo n'amazi y'imvura cyangwa avuye mu ngo zitandukanye.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bibiri bitandukanye, igare ndetse n'imodoka nini y'umweru izwi nka kwasiteri itwara abantu mu buryo bwa rusange, ikabageza aho bagiye amahoro.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'amapikipiki ndetse n'ibindi, hakaba hari ipikipiki ihetse umugenzi iri kugenda ndetse n'izindi ziri hepfo ziparitse.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kunyurwamo n'ikimodoka gitwara ibizigo byinshi cyane biremereye, kibijyana mu mahanga cyangwa mu ntara ndetse ku ruhande mu kayira k'abanyamaguru harimo abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'ikinyabiziga kizwi nka dayihatso, kikaba cyifashishwa mu gutwara imizigo igiye itandukanye nk'imifuka y'ibyo kurya, imicanga ndetse n'amatafari.

Imodoka ebyiri ziparitse zitwara abantu mu buryo bwa rusange, gusa ntabwo zingana, iyo hepfo itwara abantu benshi ibajyana mu ntara cyangwa mu mahanga, ruguru hakaba hari n'indi y'umweru.

Abazwi nk'abamotari batwara umugenzi umwe umwe ku mapikipiki yabo, bahagaze hamwe bategereje abaza babagana kugira babatware, imbere yabo hakaba hari igicupa kinini cyane cya Kokakora.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hari kunyuramo ikimenyerewe ku izina rya dayihatsu kiri mu ibara ry'umweru, inyuma kikoreye umucanga.

Ahategerwa imodoka mu buryo bwa rusange hakaba hari abantu bahagaze ndetse hari n'imodoka ebyiri nini za kampani ya ritiko, izi zikaba zitwara abantu ndetse n'ibintu mu buryo bwa rusange.

Umuhanda wa kaburimbo urimo rujya n'uruza rw'ibinyabiziga ndetse n'abantu bari kwambuka, hakaba hari ikamyo nini iri mu ibara ry'umweru, izwi nka dayihatsu itwara imizigo igiye inyuranye.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kunyurwamo n'ikinyabiziga kinini, kiri mu ibara ry'umutuku, kimenyerewe ku izina rya howo, kikaba gitwara imizigo igiye itandukanye nk'umucanga, amabuye cyangwa amatafari.

Umuhanda wa kaburimbo urikunyurwamo n'ikinyabiziga kizwi nk'ipikipiki cy'amapine atatu, iki kikaba cyifashishwa mu gutwara imizigo itaremereye nk'imbaho, imifuka ndetse n'ibindi.

Imodoka y'umweru, iparitse, ifite akarongo kibara ry'umuhondo ku ruhande, ikaba itwara abantu mu buryo bwihariye, aho ushobora kuba wakerewe cyangwa ufite urugendo ushaka kugendamo wenyine, wayitega.

Mu mujyi wa Kigali, ahantu ushobora kugenda ukicara unaniwe, ukugama izuba ndetse ukabasha no gukoresha interineti, hicayemo abantu bagiye batandukanye ndetse hari n'umugabo wambaye kositime uri kuri telefoni.

Abantu benshi bakoraniye hamwe harimo Abanyafurika n'abanyamahanga, harimo n'abana bakiri batoya, ku ruhande hari ibyicungo by'abana ndetse hamanitse n'amabendera atandukanye.

Icyapa gikozwe mu ishusho y'uruziga, gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, kikaba gifite imibare yanditse mu ibara ry'umukara, akaba ari imibare mirongo itandatu. Ku ruhande hari inzu z'ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo, ugana i Gicumbi, ukaba urimo ibinyabiziga bitandukanye, bitwara imizigo iremereye, biyivana mu mahanga, biyizana mu Rwanda kandi bikaba byifashishwa n'abacuruzi bakomeye.

Icyapa cya mpandeshatu gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru ndetse harimo ikirango kiri mu mabara y'umukara, kigaragaza ko hafi aho ngaho, hari aho abanyamaguru bashobora kwambukira.

Icyapa cya mpande eshatu, gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru n'ikirango kiri mu ibara ry'umukara, kikaba kimenyesha ko imbere hari dodani ko ikwiriye kugenda gake.

Ikirango kiri mu ishusho y'umuzenguruko gifite ubuso bw'umweru, kikaba kigaragaza ko aho ngaho hatemewe kunyurwa n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku buryo umushoferi iyo akibonye yirinda kuhanyura.

Icyapa cya mpande enye gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umuhondo ndetse n'ikirango kiri mu ibara ry'umukara, bikaba bimenyesha ko imbere hari umuhanda wizengurutse.

Ibyapa ndanga bikoreshwa mu muhanda biyobora ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru, aho iyo cyatse umutuku kiba kigaragaza ko mugomba guhagarara, cyakwaka icyatsi kikagaragaza ko mugomba kugenda.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu, gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ikirango kiri mu ibara ry'umukara, kikaba kimenyesha ko imbere, hari ikona bityo ko ugomba kugenda gake.

Umuhanda wa kaburimbo, ruguru yawo hari icyapa gikozwe mu ishusho y'uruziga, gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, harimo ishusho ya p, kikaba kigaragaza ko hafi aho ngaho bitemewe kuhaparika.

Icyapa cy'umuhondo gifite ikirango kiri mu ibara ry'umukara. Kikaba kiyobora abatwara ibinyabiziga ko bagomba gukata aho icyo kimenyetso kireba, kugira badahura n'impanuka.

Icyapa cya mpande eshatu, gifite umuzenguruko utukura. Ubuso ni umuhondo, na ho ikirango kiri mu ibara ry'umukara. Kikaba kimenyesha ko imbere gatoya hari kubera imirimo y'ubwubatsi.

Icyapa cya mpande eshatu gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ikirango kiri mu ibara ry'umukara. Kikaba kigaragaza ko aho ngaho hari kubera imirimo y'ubwubatsi, bityo ko ugomba kugenda gake.

Mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande hari icyapa gikozwe mu ishusho ya mpande eshatu, gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'uumweru, hariho ikirango cy'umukara kigaragaza ko imbere kuri uwo muhanda hashamikiyeho undi.

Icyapa cya mpande eshatu gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'amagambo ari mu ibara ry'umukara, bigaragaza ko ugeze hafi aho ngaho uba ugomba gutanga inzira.

Icyapa cy'ubururu, gikozwe mu ishusho ya mpande enye, kigaragaza ko hafi aho ngaho, hari aho abanyamaguru bambukira. Munsi yacyo hari ikindi gikozwe mu ishusho ya mpande eshatu, kigaragaza ko ari umuhanda ufite ibyerekezo bitandukanye.

Icyapa cy'umuhondo ndetse n'umukara, gifite amagambo yanditswe mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ay'umukara, cyereka utwaye ikinyabiziga ko akwiye kugenda gakeya kubera ko imbere hashobora kuba hateje akaga.

Icyapa cya mpande enye gifite umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango kinini cy'inyuguti ya pa. Kikaba kigaragaza ko aho ngaho byemewe kuhaparika.

Umuhanda wa kaburimbo ujya mu byerekezo bibiri bitandukanye, hari kunyuramo ibinyabiziga nk'ikitwa bisi ndetse n'iyindi pikipiki, ku ruhande hakaba hari ibiti bikikije umuhanda.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpande enye, gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, harimo ikirango cy'imodoka gishushanyije mu ibara ry'umukara, kikaba kiranga ko aho ngaho ntamodoka yemerewe kuhaparika.

Icyapa kiri mu ishusho y'umuzenguruko. Gifite umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'ubururu, n'ikirango kiri mu ibara ry'umweru. Kikaba kimenyesha ko ukwiye gukata mu cyerekezo kirebamo.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpandenye, gifite igiti gishinzeho, kikaba kiri iruhande rw'umuhanda. Kirimo ikimenyetso kiri mu ibara ry'umukara, kigaragaza ko imbere muri uwo muhanda hari ikona.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo amapikipiki, ukikijwe n'ibiti byiza cyane ndetse n'ubusitani, hari n'icyapa kinini gifite umuzenguruko w'umweru n'amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umweru agaragaza ko uhageze ugomba kugenda gake.

Icyapa kirimo ishusho y'imodoka iri mu ibara ry'umukara, kikaba kigaragaza ko hafi aho ngaho nta parikingi ihari kandi ko bitemewe kuhaparika, bityo uhaparitse wahanwa.

Icyapa gishinze ahantu mu byatsi. Gifite mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, n'ikirango kiri mu ibara ry'umukara. Kikaba kimenyesha ko hafi aho ngaho imbere hari ikona.

Icyapa cya mpande enye, gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umuhondo ndetse gishushanyijeho imodoka n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, kikaba kimenyesha utwaye ikinyabiziga ko agomba kugenda gake.

Icyapa cya mpande eshatu, gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, hariho ikirango cy'umukara, icyi kirango kikaba kigaragaza ko muri uwo muhanda hariho uduhanda dutoya tuwushamikiyeho.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ubusitani bwiza ndetse n'ibiti bitoshye cyane, hariho ibyapa bigaragaza ko imbere hari ishyamba rya Nyungwe ndetse riherereye mu karere ka Rusizi.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umutuku n'amagambo ari mu ibara ry'umweru, kikaba kimenyesha abatwaye ibinyabiziga ko bagomba guhagarara, mu gihe cyose bakibonye.

Ibyapa bibiri biri mu ishusho ya mpande eshatu, bifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango kiri mu ibara ry'umukara, icyo hejuru kikaba kimenyesha ko imbere hari umuhanda ukase n'akandi kawushamikiyeho.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga nk'amapikipiki, ukaba urimo n'urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye, ku ruhande haparitse amamodoka ndetse hari n'inyubako ndende.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, imodoka, amapikipiki ndetse n'ibindi, harimo n'abanyamaguru, hirya y'umuhanda hari inyubako ndende yitwa etaje.

Umumotari uri gutwara ipikipiki yambaye ikote ry'umukara ndetse ari mu muhanda w'amabuye imbere ye hari abantu bagiye batandukanye bari mu mirimo yabo ndetse n'amazu y'ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye by'amamoto ndetse n'imodoka ziparitse, harimo umunyamaguru uri kugenda uhetse umufuka ku mugongo ndetse n'inyubako ndende.

Umuhanda wa kaburimbo, unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, turi kuhabonamo ipikipiki ndetse hirya y'umuhanda hari inyubako ndende izwi nka etaje, munsi yayo haparitsemo imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nk'amapikipiki ahetse abagenzi ndetse munsi yayo hari n'izindi modoka ziparitse; akaba ari inyubako y'ubucuruzi.

Parike ya Nyandungu iherereye mu mujyi wa Kigali. Ukaba ushobora kuhagana ushaka kwirebera ibiremwa bitandukanye nk'inyoni ndetse n'ibindi. Nanone haba n'indi myidagaduro myinshi itandukanye.

Umuhanda munini wa kaburimbo, urimo imirongo y'umweru icagaguye, iri kunyurwamo n'abanyamaguru, hepfo yayo haparitse ibinyabiziga bitandukanye, birimo imodoka ndetse n'amapikipiki.

Umuhanda w'igitaka, uri mu byerekezo bitandukanye, haparitsemo imodoka ebyiri, imwe y'umukara n'indi y'umweru, hirya hari inzu zo guturwamo, hakaba hari n'ibiti ndetse n'abantu.

Umuhanda urimo imirongo y'umweru icagaguye ndetse hari n'ibyuma byabugenewe, biyobora imodoka, aho iyo biri kwaka icyatsi biba bizemerera kugenda, naho iyo biri kwaka umutuku zigahagarara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ivatiri, inyuma yawo hari uwundi muhanda unyura hejuru, ukaba unyurwaho n'ibindi binyabiziga bitandukanye bigenda bibisikana mu mihanda itandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, hari ikiri kuza kimenyerewe ku izina rya Dayihatsu, kikaba kiri mu ibara ry'umweru, kifashishwa mu gutwara imizigo, ndetse hari n'imirongo y'abanyamaguru.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru icagaguye, hepfo yayo hari amapikipiki yakije amatara, ruguru y'umuhanda hari imodoka na yo iri kugenda, bigaragara ko biri kujya mu cyerekezo gitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari iyitwa fuso, ipikipiki, ndetse n'imodoka ntoya izwi nk'ivatiri, ku ruhande hari akazu abanyamaguru bicaramo.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'ikinyabiziga cy'ipikipiki gihetse umugenzi ndetse ku ruhande hari ibyapa bigaragaza ko hafi aho hari ishuri ko ugomba kugenda gake mu gihe abanyeshuri batashye bari kwambuka.

Imodoka ebyiri ziri kubisikana, imwe iri mu ibara ry'umutuku indi mu ibara ry'umweru, impande yazo hateye ibiti bihakikije ndetse hari n'amapoto y'amashanyarazi ajyana insinga mu baturage.

Umuhanda nyabagendwa uri kugendwamo n'ipikipiki ihetse umugenzi, ku ruhande haparitse ikamyo nini y'umutuku ubona ko yagize ikibazo, ndetse ku mpande zayo hari izindi modoka nazo ziri kugenda.